Iki ni icyapa kiri mu ibara ry'umukara n'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, inyuma yacyo hakaba hari inzu ndende cyane.

Uyu ni umugore wambaye ishati, akaba afite terefone mu ntoki ze isa umukara, munsi ye hakaba handitse amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umukara n'umutuku.

Uyu ni umugabo wambaye ikote ishati y'umweru na karuvati y'ubururu, haruguru ye hakaba hari undi mugabo uri kumwe n'umugore ndetse n'abana babiri bari kugenda bakina.

Uru ni urupapuro runini rusa ubururu, rwanditseho amagambo ndetse ruriho n'ibishushanyo bigiye bitandukanye, mu mabara atandukanye, harimo umweru, icyatsi ndetse n'ubururu.

Iki ni icyapa gishushanyijeho ibirenge ndetse iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo atandukanye ari mu ibara ry'umweru.

Uyu ni umugore wambaye indorerwamo z'amaso, ingofero y'umuhondo, umupira w'umukara ndetse n'isengeri isa icyatsi, imbere ye hakaba handitse amagambo, ari mu ibara ry'umweru.

Iki nicyapa kiriho amagambo atandukanye ari mumabara y'umukara, umutuku, umweru, n'umuhondo iki cyapa hakaba hariho n'igishushanyo cy'imodoka y'umukara.

Uyu akaba ari umugabo n'umugore bambaye imipira y'imyeru, umugore akaba atera umwana ndetse bakaba bafite urupapuro runini rwanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'umukara n'ubururu.

Iki ni icyapa kirimo amabara y'ubururu n'umweru iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo atandukanye nayo ari mu mabara y'umweru umukara n'ubururu.

Iki ni icyapa kinini gisa umweru n'ubururu, iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, umutuku ndetse n'umweru hirya kuri kino cyapa akaba hariho n'igishushanyo cy'imodoka y'umutuku.

Iki ni icyapa kinini cyane kiriho umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, hirya ye akaba handitse amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'ubururu.

Ibi ni ibiceri byinshi cyane bitondekanyije, biri mu ibara ry'izahabu, biteretse ku meza. Hirya yabyo no munsi, hakaba hari amagambo atandukanye ari mu mabara y'umutuku n'umukara.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero y'umukara umupira w'umweru ndetse n'ikote ry'ubururu n'ipantaro y'umweru, akaba yicaye mu modoka mu imbere.

Uyu ni umugabo wambaye ishati n'umupira w'umweru uri kumwe n'umugore we ndetse n'abana babo bakaba bari guseka bicaye ku ntebe z'umweru.

Iki ni ikiganza cy'umuntu gifashe terefone mu ntoki muri iyo terefone hakaba harimo amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru. y'icyatsi n'umukara.

Aya ni amazina ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, bigiye biri mu mabara y'ubururu, umweru, umukara n'umuhondo.

Uru n'urupapuro ruriho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru n'umukara, hakaba hariho n'ifoto iriho umugabo n'umugore.

Uru ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo agiye atandukanye ,ndetse n'imibare itandukanye aya magambo akaba yanditse mu mabara y'umukara ,ubururu n'umweru.

Aba ni abagore babiri, umwe muri bo akaba afite mu kiganza ke icyuma cy'ikoranabuhanga ndetse n'ishati, bakaba bari kuganira.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, ifite hasi amakaro asa umweru hejuru hakaba hari igisenge gisa umweru kirimo n'amatara, ikaba irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo imyenda.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo abantu batandukanye abagabo n'abagore ndetse ikaba irimo n'ibicuruzwa byiganjemo imyenda bigiye bitandukanye.

Aka ni akabati k'umukara karimo inkweto nyinshi zigiye zitandukanye ziri mu mabara y'umukara, umuhondo, umutuku, umweru, icyatsi n'andi menshi.

Uyu ni umucuruzi wambaye umupira inyuma ye hakaba hari akabati karimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, imbere ye hakaba hari umuguzi bari kuganira.

Iyi ni inzu ifite inkuta z'umweru ndetse hakaba harimo n'amatara atandukanye, hakaba harimo n'imyambaro igiye itandukanye ndetse n'imitako iri mu kabati k'umweru na yo igiye itandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite imiryango y'umweru. Iyi nzu ikaba ariho icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo arimo umweru iyi nzu kandi ikaba irimo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imyenda.

Uyu ni umugore wambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umutuku, akaba afite mu ntoki ze ishati. Inyuma ye hakaba hari indi myenda igiye itandukanye.

Uyu ni umukobwa wambaye umupira w'umukara akaba ari mu icyumba gifite amabara agiye atandukanye akaba ari gufungura udukapu twinshi turimo udukapu tw'ubururu tw'ubururu, umutuku, umuhondo n'umukara.

Iyi ni imodoka isa umukara, ihagaze mu muhanda w'ibinyabiziga. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti bitandukanye.

Aha ni mo imbere mu modoka, aho tubonamo intebe ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, biri mu mabara agiye atandukanye y'umukara n'andi menshi ndetse izi ntebe zikaba ziriho amashashi.

Izi ni imodoka nini cyane ebyiri ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, imbere ahagana hejuru hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, umweru n'icyatsi.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka. Uyu muhanda ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'ubusitani.

Aba ni abantu bafashe mu biganza byabo, icyapa cyanditseho amagambo y'umukara n'umutuku. Inyuma yabo hakaba hari ikinyabiziga kiri mu mabara y'umweru n'umukara.

Aba ni abantu batandukanye bahagaze bamwe bafite udukapu dusa umutuku hirya yabo akaba hari imodoka ifite ibara ry'umweru n'umukara.

Aba ni abantu batandukanye bafite mu biganza byabo icyapa gisa umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, inyuma yabo hakaba hari imodoka isa umukara.

Aba ni abagabo babiri bambaye amashati ndetse n'amapantaro, bafite icyapa cyanditseho amagambo y'umutuku n'umukara. Inyuma yabo hakaba hari imodoka iri mu ibara ry'umweru n'umukara.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero ndetse n'ishati n'ipantaro ndetse n'isaha akaba ahagaze imbere y'imodoka irimo ibara ry'umukara.

Iyi ni imodoka iri kugenda, inyuma yayo hakaba hari inzu nini iriho ibirahure byinshi ndetse n'amakaro asa umweru menshi. hejuru hakaba handitse amagambo, ari mu mabara y'umweru.

Izi ni imodoka ebyiri zisa umukara, inyuma yazo hakaba hari ihema ry'umweru, ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Iyi ni inzu ishushanyijeho igishushanyo gisa umweru, iyi nzu ikaba ifite inzugi n'amadirishya bisa umukara, ndetse ika ifite no hasi hari amakaro asa umukara.

Aba ni abagabo batatu bahagaze bakaba mu biganza byabo bafite icyapa kinini kirimo ubwoko bw'urufunguzo cyanditse amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umukara n'umutuku.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umukara n'umuhondo, iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo nayo ari mu ibara ry'umukara n'umweru impande ya kino cyapa hakaba hari igiti kirekire giteye.

Uyu ni umuntu ufite mu ntoki ze amafaranga, ndetse no hirya ye hakaba hari andi mafaranga menshi cyane, aya mafaranga akaba ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Uyu n'umugabo wicaye mu cyumba gifite inkuta z'umweru, imbere ye hakaba hari ameza y'urubaho ariho inoti nyinshi z'amafaranga n'imashini iri kubara ayo mafaranga.

Iyi, ni inote y'amafaranga iteretse ku meza y'urubaho, iyi noti ikaba yanditseho amagambo atandukanye ndetse ikaba iriho n'ibishushanyo by'igiseke, inoti ikaba iri mu ibara ry'umutuku.

Iki ni igiceri cyanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse n'imibare igiye itandukanye, hakaba hariho n'igishushanyo k'ikigori kuri kino giceri.

Uyu ni umugabo wambaye ishati ndetse n'isaha mu kiganza cyangwa mu biganza by'uyu mugabo harimo amafaranga menshi ariho igishushanyo cy'undi mugabo wambaye ikote.

Uyu ni umugabo wambaye ishati isa umweru, imbere ye hakaba hateretse ameza ariho amafaranga menshi cyane ndetse n'ibyuma bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga na telefoni.

Uyu ni umugore witeze igitambaro, yambaye n'igitenge, mu ntoki ze akaba afitemo amafaranga menshi, hirya hari uwundi mugore wicaye ku ntebe nawe bari kuganira.

Uyu ni umugabo uri inyuma y'ikirahure wambaye ishati ndetse akaba afite n'umupira w'umutuku ku rutugu, mu imbere y'ikirahure hari undi mugabo wambaye umupira w'ubururu n'ishati na karuvati, imbere ye hakaba hari mudasobwa, n'icyuma kibara amafaranga.

Iki ni icyumba gifite amakaro hasi ndetse no ku nkuta asa umweru iki cyumba kikaba kirimo icyuma kinini cyane.

Uyu ni umugabo wicaye ku ntebe y'umweru, akaba afite akajerekani mu ntoki gasa umweru, hirya akaba arimo arasuka amata.

Uyu ni umugabo wambaye isengeri, imbere ye hakaba hari ameza ateretseho udusahane dutoya, ndetse n'igikombe kirimo amata, imbere y'iyi meza hakaba hari abandi bantu babiri bayicaye imbere.

Iki ni icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo ibikoresho bacundamo amata, aricyo cyansi ndetse n'uducupa tw'amazi.

Utu ni uducupa n'utujerekani twinshi tugiye dutandukanye, tumwe tukaba turi mu kabati utundi tukaba turi hasi; tukaba turi mu mabara atandukanye nk'umweruru n'umutuku.

Iyi ni intebe iri hirya iri mu ibara ry'ubururu, imbere y'iy'intebe hateretse ameza atetseho amasahani ndetse ariho n'igitambaro kiri mu bwoko bw'igitenge.

Iki ni icyuma gisa ubururu n'umweru cyanditseho amagambo asa umweru. Iki cyuma kikaba giteretse mu nzu yubakishije amatafari ahiye.

Uyu ni umwana wambaye umupira uri imbere y'abagabo babiri bari mu nzu, inzu irimo amakaro asa umweru ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Iki ni igikombe kirimo amata, giteretse ku meza, impande yacyo hakaba hari isahane y'umweru, byose bikaba biteretse ku meza asa umweru.

Uyu ni umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira, uri kuvugana n'undi mugabo uri imbere y'akabati wambaye umupira w'umweru, bakaba bari mu iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Utu ni uducupa tugiye dutandukanye, turimo amata ndetse n'amazi, utu ducupa turi mu mabarage agiye atandukanye, harimo nk'iry'umweru n'umutuku ndetse n'andi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, irimo umugabo wambaye umupira. Inyuma ye hakaba hari akabati, gasa ubururu karimo ibicuruzwa. Imbere ye hakaba hari akandi kabati k'umweru, na ko karimo ibicuruzwa.

Iki ni icyuma kinini cyane, kiri gusukwamo amata n'umugabo wambaye ishati y'umukara, ndetse hasi akaba yambaye ipantaro isa ubururu.

Aka ni akajerekani gasa umweru, karimo amata, iruhande hakaba hariho urupapuro rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Iyi ni imigati myinshi igiye ikase maze ikaba irambitse hasi ku rubaho, hirya yayo hakaba hari igitambaro gisa umweru.

Uru ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Iki ni ikiganza gifashe telefone. Iyi telefone ikaba irimo amagambo ndetse nibishushanyo bigiye bitandukanye.

Uru ni urupapuro rurimo mabara agiye atandukanye ndetse rwanditseho amagambo nayo ari mu mabara y'umweru, umukara, ubururu ndetse n'umutuku.

Uru ni urupapuro rw'umweru ruriho imibare ndetse n'amagambo bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu.

Uyu ni umukobwa wambaye umupira w'umweru, akaba afite mu kiganza cye telefone, inyuma ye hakaba hari inzu nini ifite amadirishya asize ibara ry'umweru ndetse n'inzugi z'umukara.

Uyu ni umugore uteze igitambaro, akaba yambaye n'ishati y'umweru, mu kiganza cye akaba afitemo telefoni, hirya ye hakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Uru ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara, hejuru ku rupapurokaba ari ibara ry'umutuku.

Uyu ni umukobwa wambaye ikanzu y'umuhondo ndetse n'umukara n'umweru uhagararanye n'umuhungu wambaye umupira, umukobwa akaba afite mu kiganza cye telefone.

Iki ni igishushanyo cy'umuntu ufite telefone mu ntoki, hakaba handitsemo amagambo atandukanye ari mu ibara ry'umweru, hejuru y'icyo gishushanyo hari andi magambo ari mu ibara ry'umutuku.

Aya ni amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umukara, n'umweru, n'umutuku, hakaba hari n'igishushanyo cya telefone nacyo cyanditsemo amagambo agiye atandukanye.

Aba ni abantu bagiye batandukanye batonze umurongo imbere y'inzu isa umuhondo, ifite urugi rusa umuhondo, hejuru hakaba hariho icyapa cy'umukara kiriho amagambo y'umuhondo.

Iyi ni telefoni isa umweru ikaba igiye yanditsemo amagambo ndetsemo n'ibishushanyo bisa icyatsi amagambo akabasa umukara.

Iyi ni urupapuro rw'inyemezabwishyu rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bisa umukara ndetse kuri runo rupapuro hariho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse n'imibare igiye itandukanye, ibi byose bikaba byanditse mu ibara ry'umukara.

Uru ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara n'ubururu hejuru yaru ni urupapuro hari ibendera n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Ni urupapuro rw'umweru uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye byose bikaba biri mu ibara ry'umukara.

Iyi ni inyemezabwishyu yanditseho amagambo ndetse n'imibare. Ibi bikaba byanditse mu ibara ry'umukara, hejuru hakaba hariho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Uru ni urupapuro rusa umweru rwanditseho amagambo n'imibare biri mu mabara y'umukara ndetse n'umuhondo.

Aya ni amagambo ye ari kumwe n'imibare myinshi cyane, byose bikaba biri ku gipapuro cy'umweru kandi bikaba byanditse ibi byose mu ibara ry'umukara.

Iyi ni inyemezabwishyu iriho amagambo n'imibare bigiye bitandukanye byose bikaba biri mu ibara ry'umukara, hejuru hakaba hariho n'ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Uru ni rupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye biri mu ibara ry'umukara.

Iyi ni inyemezabwishyu yanditseho amagambo ndetse n'imibare biri mu mabara y'umukara, hejuru kandi hakaba hari ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Iyi ni inyemezabwishyu iriho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye byose byanditswe mu ibara ry'umukara, hejuru kandi hakaba hari ikirangantego cya repuburika y'u Rwanda.

Iki ni ikiganza gifite mu ntoki amafaranga agiye atandukanye aya mafaranga akaba ashushanyijeho abagabo batandukanye ndetse akaba yanditsweho n'amagambo agiye atandukanye.

Izi ni inoti z'amafaranga agiye atandukanye. Izi noti zikaba ziri mu mabara agiye yiganjemo umweru, umukara, umutuku, umuhondo n'icyatsi.

Izi ni inoti z'amafaranga zisa umweru n'umuhondo kandi zikaba ziriho ibendera ry'Uburayi bwunze ubumwe.

Uru ni urupapuro rw'umweru. Uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo n'imibare bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umukara ndetse n'icyatsi.

Iki ni ikiganza, gifashe inoti z'amafaranga mu ntoki, izi noti zanditseho amagambo, ndetse hariho n'igishushanyo cy'umugabo, aya magambo akaba yanditse mu mabara y'umukara n'umutuku.

Aya ni amafaranga ari mu bwoko bw'ibiceri ndetse n'inoti. Ibi byose bikaba biri mu mabara atandukanye, harimo umutuku, umweru, n'umukara.

Ibi ni ibiganza bifashe amafaranga aya mafaranga akaba ari mu mabara agiye atandukanye ndetse akaba yanditseho amagambo n'imibare bigiye bitandukanye.

Iyi ni inzu ifite igikuta gisa ubururu, iyi nzu ikaba iriho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, umukara n'umutuku.

Uyu ni umuntu uri guha undi muntu inoti nyinshi z'amafaranga, aya mafaranga akaba ari igishushanyo cy'umugabo ndetse hakaba handitsweho n'amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Iyi ni inyubako isize irange ry'umweru ndetse n'ubururu, iyi nyubako ikaba iriho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu bururu, umutuku ndetse n'umukara.

Iyi ni inyubako isize irangi ry'umukara, ikaba iriho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye byanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro uri gusohoka mun nzu y'ubucuruzi. Inzu y'ubucuruzi ikaba ariho ibyapa byinshi byanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara n'umweru.

Iki ni icyumba gifite inkuta z'umweru. Iki cyumba kandi kikaba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye nka mudasobwa ndetse na kamera n'ibindi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo abantu bagiye batandukanye hakaba kandi inzu hariho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umuhondo n'umukara ibi byapa bikaba byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umukara.

Iki ni icyumba kirimo intebe zikozwe mu rubaho ndetse ziriho n'umusego ndetse zikaba zifite n'imeza irimo hagati yazo.

Izi ni intebe zikozwe mu mbaho ndetse zikaba zifite imisego isa umweru imbere yazo hakaba hateretse imeza na yo nziza ikozwe mu rubaho isa umukara.

Izi ni intebe zikozwe mu mbaho zikaba zifite n'ameza yazo akozwe mu mbaho ndetse n'ikirahure zikaba ziteretse ahantu hasi hafite amakaro ari mu ibara ry'umweru n'umukara.

Iyi ni inyubako ifite igisenge cy'umweru, irimo intebe zitandukanye zimwe zisa umukara, izindi zisa umweru. Hakaba harimo n'akabati kagiye karimo ibintu bitandukanye.

Iyi n'inyubako ndende cyane, iri mu ibara ry'umweru, ikaba iyi nyubako ifite n'ibirahure byinshi. Imbere y'inyubako hari ahantu hanini harimo amazi ho kogera, ndetse ku ruhande hakaba hari n'intebe zo kwicaraho n'ibiti.

Aha ni ahantu hanini cyane. Aho abantu baza kuruhukira bakoga ndetse bakanicara. Hakaba hateye intebe z'umukara n'ameza y'umukara ndetse akaba ashinzeho n'umutaka w'umukara.

Aha ni ahantu harimo amazi aho abantu bogera, hirya hakaba hari intebe zigiye zitandukanye iz'umweru ndetse n'umukara, hakaba hari n'imitaka nayo iri mu mabara y'umweru n'umukara.

Iki ni icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aha twavuga nk'intebe zo kwicaramo zimwe zikaba zisa umukara, izindi ubururu amameza agiye atandukanye ndetse n'insakazamashusho iri ku gikuta.

Aha ni ahantu hari intebe nyinshi z'ubwoko bugiye butandukanye, ziri mu mabara atandukanye n'umukara, ubururu, umutuku, ndetse hakaba hari n'imitaka isa umweru, n'ibiti bitandukanye.

Iyi ni inzu ndende isize irangi ry'umweru n'umutuku, hirya yayo hakaba hari ubusitani bwiza buteyemo intebe zisa umukara n'ameza yazo asa umukara ndetse ziriho n'imitaka isa umweru.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umukara, umweru n'umutuku. Iki cyapa kikaba gikikijwe n'ibiti birebire.

Aha ni ahantu hanini cyane, harimo amazi ukogera, hirya hakaba hari intebe zisa umweru, ndetse n'umukara, ziriho n'imitaka isa umukara, hirya hakaba hari inzu ndende, nayo ifite igisenge cy'umukara.

Iki ni icyuma kirimo intebe zisa icyatsi n'utumeza twizo ntebe. Hakaba harimo n'igitanda gishasheho amashuka y'umweru n'imisego isa umweru. Hakaba harimo n'amatara agiye atandukanye.

Iyi ni meza isa umukara iteretseho ibintu bigiye bitandukanye harimo n'uducupa tw'amazi ndetse n'ibirahure byo gusukamo amazi.

Iyi ni inzu ndende ifite amadirishya y'umukara ndetse n'umuryango w'umukara, iyinzu ikaba ifite imbuga nini ndetse ikaba ifite n'ubusitani buri mwibiti birebire bitandukanye.

Iyi n'inzu ndende cyane ifite inkuta z'umweru ndetse ikaba iriho n'ibirahure byinshi, iyi nzu ikaba yanditseho amagambo ari mu mabara y'umutuku n'umukara.

Iyi ni inzu nini cyane iriho ibirahuri byinshi bigiye bitandukanye n'inkuta zisa umweru, munsi y'ino nzu hari ahantu hanini cyane harimo amazi aho abantu bogera.

Uyu ni umuryango usa umweru ndetse n'umukara. Uyu muryango ukaba uriho ibishushanyo ndetse n'amagambo bigiye bitandukanye, biri mu ibara ry'umweru n'icyatsi.

Iki ni icyumba kinini cyane, gifite inkuta zisa umweru ndetse hasi hakaba hasa umweru n'umukara. Iki cyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa.

Iyi ni inzu ifite umuryango usa umweru ndetse uyu muryango ukaba uriho ibyapa bigiye bitandukanye biri mu mabara y'ubururu byanditseho amagambo asa umweru.

Iyi ni inzu ndende iriho amabara y'ubururu n'umweru, iyi nzu ikaba ifite icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru ndetse hasi y'iyi nzu hari imodoka nyinshi ziyahagaze.

Iyi ni inzu y'amatafari ahiye, iriho amatara menshi agiye atandukanye, iyi nzu ikaba ifite amadirishya ndetse n'urugi bisa umukara, ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'umweru.

Iki ni icyumba cy'inama kirimo abantu benshi bagiye batandukanye bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi n'ibindi byinshi.

Iki ni icyumba gifite igisenge cy'umweru kirimo n'amatara kikaba gifite inzugi z'umukara zikozwe mu birahure ndetse muri kino cyumba hakaba harimo intebe z'umukara n'ameza y'umweru.

Iki ni cyumba kirimo abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibintu bigiye bitandukanye na mudasobwa, ibitabo, uducupa tw'amazi n'ibindi byinshi.

Iyi ni inzu ndende cyane iriho ibyapa bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'ubururu, umweruru, umutuku, ndetse bikaba bigiye byanditseho n'amagambo atandukanye.

Uyu ni umugore wambaye umupira w'umukara, mu biganza bye akaba afitemo ikayi nini, akaba ari kuganira n'abandi bantu batandukanye, harimo umugabo wambaye ishati y'umweru, na we afite ikayi n'ikaramu mu ntoki.

iyi ni inyubako ifite imiryango y'umukara, iyi nyubako ika iriho icyapa kinini cy'umweru cyanditsweho amagambo agiye ari mu ibara ry'umukara ndetse hakaba hariho n'igishushanyo cya Afurika.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umutuku, ndetse akaba yambaye n'akantu imbere gasa umukara. Imbere y'uyu mugabo handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ndetse hasi hakaba andi ari mu ibara ry'umukara.

Iri ni isoko ririmo abantu bagiye batandukanye harimo abicaye n'abahagaze, iri soko ririmo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bari mu isoko. Iri soko rikaba ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye byiganjemo imyenda n'amakanzu n'ibindi byinshi.

Aba ni abantu batandukanye bari mu nzu y'ubucuruzi cyangwa se isoko hakaba harimo ibicuruzwa bijye bitandukanye byiganjemo inyanya, ibitunguru, n'ibindi.

Aba n'abaguzi ndetse n'abacuruzi bari kugenda abandi bicaye mu isoko, iri soko rikaba ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo imyenda n'ibindi byinshi.

Iyi ni inzu ndende cyane ifite amadirishya asa umweru n'ibirahure byinshi cyane, iyi nzu ikaba iriho ibyapa bigiye bitandukanye biri mu mabara y'icyatsi n'umweru n'ubururu.

Iyi ni inzu ndende cyane iriho ibyapa bigiye bitandukanye biri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, hejuru y'ino nzu handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Iyi ni inzu irimo umuntu wambaye umupira w'umweru, iyi nzu ikaba iri mu ibara ry'umuhondo ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru.

Uyu ni umuntu wambaye umupira w'umweru n'ipantaro isa ubururu. Akaba afite agakapu k'umukara ndetse mu ntoki ze akaba afashe terefone irimo amabara y'umuhondo n'ubururu.

Uru ni urupapuro rw'umuhondo ruteretse ku meza y'umukara, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu.

Aba ni abantu batandukanye bahagaze imbere yabo hakaba hari ihema risa n'umuhondo rikaba ryanditseho amagambo atandukanye.

Aba ni abaguzi ndetse n'abacuruzi bari mu iduka, iri duka rikaba rifite ibyapa byinshi biri mu mabara y'umweru, umukara, umutuku n'umutuku.

Uyu n'umugore wambaye igitambaro n'ishati y'ubururu mu kiganza cye akaba afitemo telefone yanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse akaba ashushanyijemo ibishushanyo by'abantu.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero irinda umutwe isa icyatsi, yambaye ishati y'icyatsi yanditseho amagambo atandukanye mu ibara ry'umweru, ndetse n'ipantaro y'ubururu, imbere ye hakaba hahagaze moto.

Aba ni abantu batandukanye, bicaye ku ntebe z'amabara atandukanye, yiganjemo umweru n'umutuku n'umuhondo, bakaba bari mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Uru n'urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'umukara, umutuku, ndetse n'umweru.

Uru ni urupapuro rwuumweru rwanditseho amagambo menshi agiye atandukanye, ari mabara y'umweru, umukara, ubururu n'icyatsi.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo atandukanye, agiye ari mu mabara atandukanye harimo ibara ry'umukara ndetse n'irindi ry'umweru.

Ibi ni ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo mudasobwa isa umweru, telefoni isa umweru ndetse n'amakaramu abiri ndetse n'igikombe kirimo icyayi byose biteretse ku meza.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umukara, uyu mugabo akaba yambaye ndetse n'ingofero y'icyatsi, mu biganza bye akaba afite ikarito isa umweru.

Ibi ni ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo n'imashini yo gufura, intebe zo kwicaramo, moto, inkweto, imyenda, telefoni n'ibindi byinshi bishushanyije, ndetse bikaba bikikijwe n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Uri ni urupapuro ruriho amagambo agiye atandukanye ndetse n'ibishushanyo bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umutuku, umweru, n'ubururu.

Iyi ni inzu ifite inkuta zisa umweru n'igisenge gisa umweru hasi hakaba hasa umukara, iyi nzu ikaba irimo intebe zitandukanye ndetse n'ameza agiye atandukanye.

Iyi ni inzu isize ibara ry'umweru, ifite amadirishya ndetse n'urugi bisa umukara, imbere y'ino nzu hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti bitandukanye.

Uyu ni umugabo n'umugore bari mu cyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo intebe zisa umweru ndetse n'izindi zikaba zisa umukara, zose zikaba zifite ameza yazo akozwe mu rubaho.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu. Uyu mugabo akaba ari mu cyumba gifite inkuta z'umweru, ndetse hakaba harimo n'akabati gasa umweru.

Iki ni icyumba gifite urugi rw'umweru ndetse kikaba gifite n'inkuta zisa umweru, kandi kikaba gifite hasi hariho amakaro asa umweru na yo.

Iyi ni inzu iri mu mabara agiye atandukanye yiganjemo ubururu n'umweru, ikaba ifite amadirishya asa umweru n'inzugi zisa umweru.

Iyi ni inzu isa umweru ikaba ifite inzugi z'umukara. Iyi nzu ikaba iteyeho intebe zisa umweru ndetse n'imeza y'umukara.

Iyi ni inzu ndende ifite inkuta z'isa umweru, ikaba ifite amadirishya y'umukara ndetse n'urugi rw'umukara iyi nzu ikaba ifite imbuga nini ndetse ikaba ifite naho abantu bicara bari hanze.

Uyu ni umugabo wambaye ishati nipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara akaba ahagaze mu mbuga y'inzu nini isize amabara y'umweru.

Iyi ni inzu ifite igisenge cy'umutuku. Iyi nzu ikaba ifite amadirishya n'umuryango usa umukara kandi inkuta zayo zikaba zisize ibara ry'umuhondo, umutuku, n'umweru.

Iyi ni inzu ndende ifite amadirishya asa umweru, iyi nzu ikaba ifite imbuga nini ndetse ikaba ifite n'inkuta zubakijwe amatafari ahiye.

Uyu ni umuryango usa umweru, wanditseho amagambo, ndetse uriho n'ibishushanyo bigiye bitandukanye. Aya magambo akaba ari mu mabara y'umukara, umweru, umuhondo, n'ubururu.

Iyi ni inzu ndende isa umweru n'ubururu, iyi nzu ikaba iriho ibirahure byinshi cyane kandi kaba iriho icyapa hasi cy'umweru, kiriho igishushanyo cy'igiti ndetse cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'icyatsi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, babiri bakaba bicaye ku ntebe zisa umweru imbere yabo hari ameza, kandi hakaba hari n'abandi bantu bahagaze.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, bari mu nzu y'ubucuruzi. Iyi nzu ikaba irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganje mu mabara agiye atandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo abantu benshi bagiye batandukanye ndetse ikaba irimo n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa byinshi bitandukanye biri mu mabara y'ubururu, byanditseho amagambo afite ibara ry'umweru, hakaba hari umugabo ufashe mu kiganza umwana bari kwinjira muri iri duka.

Izi ni inzu z'ubucuruzi zitandukanye zikaba zifite umuryango usa umweru, hakaba hari icyapa hejuru cyanditseho amagambo agiye atandukanye.

Aba ni abantu batandukanye bari mu nzu y'ubucuruzi. Iyi nzu y'ubucuruzi ikaba irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'umweru, umutuku, n'umuhondo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, ifite igisenge gisa umweru ndetse n'amatara acanye, hasi hakaba hariho amakaro asa umweru, ikaba irimo abantu bagiye batandukanye.

Iyi n inzu irimo abantu batandukanye, ndetse hakaba harimo n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, nk'imyenda ndetse n'amasakoshi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, irimo abantu bagiye batandukanye ndetse hakaba harimo n'utubati twinshi tugiye turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Iyi ni inyubako ifite igisenge gisa umweru, ikaba ifite inkuta zisa umuhondo, ikaba ifite amakaro asa umukara n'umweru. Iyi nyubako ikaba irimo abantu batandukanye.

Iyi ni ikarita isa umuhondo, irimo amagambo agiye atandukanye, ndetse n'ifoto y'umwana wambaye ishati y'umweru, aya magambo akaba yanditse mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bicaye mu cyumba gifite inkuta z'umweru n'amadirishya y'umweru. Aba bantu bicaye bakaba bafite mu ntoki zabo impapuro ndetse n'udukayi.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero, akaba yambaye ishati y'umweru na karuvati n,umupira akaba ahetse igikapu ku rutugu rwe, hirya hakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'ubururu, icyatsi n'umweru.

Uyu ni umugore uteze igitambaro cy'umweru, akaba yambaye n'igitenge. Akaba impande ye hari amagambo ndetse no munsi ye, amagambo yanditse mu mabara y'umweru, ubururu n'icyatsi.

Iki ni ikiganza gifashe iyi karita y'ubwisungane. Iyi karita ikaba yanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'umukara n'ubururu.

Uyu ni umuntu ufashe ikayi cyangwa se ikarita mu kiganza cye, ikaba isa ubururu kandi ikaba yanditseho amagambo atandukanye ari mu ibara ry'umukara.

Aba ni abantu batandukanye bari ahantu hamwe, imbere yabo hakaba hari icyapa kirekire cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, icyatsi n'umukara.

Iyi ni inyubako ndende cyane iyi nyubako ikaba isa umweru ikaba iriho kandi ibirahuri byinshi cyane hasi yiyi nyubako haparitse imodoka isa umweru.

Aba ni abantu bambaye ingofero z'umweru n'imipira y'imweru, undi akaba yambaye ishati, bakaba bahagaze hejuru y'imodoka, aho bateyeho ihema hariho n'ibyapa byinshi cyane ndetse n'ibyuma byinshi bigiye bitandukanye by'umuziki.

Iki ni icyumba cy'ubucuruzi, kirimo akabati karekare gasa umweru, karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganje mu mabara y'icyatsi, umweru n'ubururu.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, irimo intebe n'ameza, ikaba irimo n'utubati twinshi dusa umukara n'umweru, turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Aba ni abantu batandukanye bari mu nzu y'ubucuruzi impande yabo hakaba hari icyuma cy'ikoranabuhanga bari kugenda barambikaho iby'umuguzi byaje guhaha.

Aka ni akabati kari ku makaro asa umweru, aka kabati karimo ibicuruzwa bitandukanye, biri mu mabara y'umutuku, umukara, ubururu n'umweru.

Uyu ni umugore wambaye umupira n'ipantaro, akaba ari mu iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ibi bicuruzwa byiganjemo imboga nyinshi.

Uyu n'umugore wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ijipo y'umukara, akaba ahagaze mu cyumba kirimo akabati karekare k'umweru karimo ibitabo bigiye bitandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo abantu bagiye batandukanye, hakaba harimo umwe ufite indangururamajwi mu ntoki ze, abandi bakaba barimo baragenda bafata ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, irimo umugore wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'ubururu. Imbere ye hakaba hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo imbuto.

Iyi ni inzu y'ibicuruzwa igiye irimo utubati tugiye dutandukanye turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye biri no mu mabara atandukanye, hirya hakaba hari umuntu wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umweru uri kugendamo.